Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, ni abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari ameza yorosheho igitambaro cy'umukara, kuri ayo meza hari udukayi twinshi.

Abantu bicaye ahantu mu cyumba bari mu nama, imbere yabo hari umukobwa uri gukoresha indangururamajwi, uwo mukobwa yambaye umupira w'umukara uriho idarapo ry'igihugu.

Abantu benshi bicaye ku ntebe nziza, buri ruhande rwa buri muntu hateretseho amacupa abiri, icupa rimwe ririmo amazi, irindi cupa ririmo ji.

Icyumba gikorerwamo inama, kicayemo abantu benshi batandukanye, abagabo, abagore, abasore n'abakobwa, muri iyo nzu hari urumuri rwiza ruringaniye rutakwica umuntu amaso, bicaye ku dutabe twiza tw'umweru.

Umugabo yicaye ku ntebe y'umukara, ari gukoresha indangururamajwi, imbere ye ku meza harambitseho icupa ry'amazi na mudasobwa ari gukoresha. Inyuma ye, hari igishusho gisa n'ubururu.

Icyumba gikorerwamo inama, kicayemo abantu batandukanye, abagabo, n'abagore, bicaye ku dutebe twiza, dufite ibara ry'umuhondo, imbere yabo hari amazi, hirya yaho hari igishusho cyanditseho ngo "Kigali yacu ikeye".

Abantu batandukanye. Bicaye ku dutebe twiza tugezweho. Impande yabo, hari amazi kunywa ari mu ducupa. Inyuma yabo hari ibishushanyo bitandukanye.

Umugabo ubyibushye cyane yambaye ingofero, yambaye indorerwamo z'amaso, yambaye isaha, inyuma ye hari abantu babiri bicaye, umwe ari gufotora, haruguru ye hari undi mugore ufashe amakayi mu ntoki, inyuma yabo bose hari imodoka zihagaze.

Abantu batatu bicaye ahantu mu cyumba, muri abo bantu batatu harimo abagore babiri n'umugabo umwe, umugore umwe ni we wambaye indorerwamo z'amaso, bicaye ku dutebe twiza tw'umukara, bari gukoresha indangururamajwi.

Abantu bicaye mu nzu nziza, bicaye ku ntebe nziza z'umukara, imbere yabo hari ameza atukura, bari gukoresha indangururamajwi.

Abantu bambaye imipira y'umuhondo, abandi bambaye imipira y'ubururu n'amapantaro y'ubururu, bicaye ahantu mu cyumba, harimo itara ryiza cyane, hari n'ibindi bipapuro bimanitse, bishushanyijeho ibendera ry'igihugu.

Abantu bari mu cyumba cy'inama bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza atwikirijeho igitambaro cy'umukara, imbere ku meza hari amazi ari mu ducupa, hari n'indangururamajwi, bamwe bari gukoresha telefone abandi bari kugurisha mudasobwa.

Abantu benshi bicaye mu ihema, muri abo bantu harimo abambaye udupira dusa, imbere y'abo bantu hari umugabo uri ku baganiriza ari gukoresha indangururamajwi, hirya y'abo bantu hari imisozi.

Umugabo wambaye ikote ryiza n'ishati nziza aricaye imbere ye hari uducupa dutatu tw'amazi na mudasobwa, inyuma ye hari igipapuro cyanditseho ngo gahunda yo kunoza imitangire ya serivisi.

Umugore wambaye inkweto z'umukara, ijipo y'umukara n'agapira k'amabara y'umweru n'umukara, afashe indangururamajwi, imbere ye gato, hari umugabo wicaye ahantu hejuru, yicaye ku gatebe keza, yambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, kararuvati y'umukara.

Icyumba cyiza cyane gikorerwamo inama, harimo abantu batandukanye abagabo n'abagore, ariko harimo n'umupolisi n'undi mugabo uhagaze, harimo n'ibyapa bitandukanye muri icyo cyumba.

Icyumba cyicayemo abantu batari benshi cyane, harimo umugore ufashe umwana n'undi mugore ufashe ikaye uri kwandika. Bicaye ku ntebe zikoreshejwe mu biti, imbere yabo hari ameza ariho ururabo.

Inzu nziza cyane irimo abantu batandukanye, abasore n'abakobwa, bari gukoresha mudasobwa, muri iyo nzu hari ibyapa bitandukanye.

Umunara muremure uri ahantu hirengeye, uwo munara urimo amabara abiri, harimo ibara ry'umutuku n'ibara ry'umweru, uwo munara ahantu uri urubakiye.

Umukobwa n'umusore bicaranye, bari ahantu mu cyumba, umusore ari gukoresha mudasobwa, naho umukobwa ari gukoresha telefone, hagati yabo hari akantu bari kunywa.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari gukorera mu matsinda, bambaye iniforume nziza cyane, harimo abasore n'abakobwa, bagiye bicaye ahantu hatandukanye kubera bari mu matsinda.

Umugabo yicaye imbere y'inzu, yicaye ku gatebe keza k'umukara, afashe indangururamajwi, yambaye isaha, yambaye umupira w'umweru, imbere ye hari amacupa abiri y'amazi na terefone, atunze urutoki ku gishushanyo cy'irembo, cyanditseho amagambo ''ngo byikorere".

Umuhanda urimo imodoka ebyiri zirebana, imwe ni iy'umukara, indi ni iy'umweru, muri uwo muhanda harimo igishusho kinini cyanditseho Tigo cy'ubururu, muri uwo muhanda nanone harimo umunara ufite amabara abiri, ibara ry'umweru n'ibara ry'umutuku.

Umugabo wirabura yambaye ingofero y'umukara, yambaye n'ishati y'umweru afashe telefone ari imbere y'akazu kanditseho tekino.

Icyapa cy'ubururu cyanikishijwe amagambo y'ikaramu y'umuhondo n'ikaramu y'umweru, hasi gatoya hashushanyijeho inzu yubatse neza igeretse, iruhande rw'iyo nzu ikikijwe n'ibiti.

Inzu zikorerwamo ubucuruzi butandukanye, imbere y'iyo nzu hari imodoka nziza y'umukara, hari n'ikindi cyapa cyanditseho Irembo, inyuma y'izo nzu hari ibiti birebire.

Abantu batatu bahagaze, umwe ni umusore yambaye umupira w'icyatsi, n'ishati y'amabara y'umweru n'umukara, afite terefoni ari kurebamo, undi na we ni umusore yambaye agapfukamunwa, undi na we uri hirya ye yambaye ingofero, inyuma yabo hari igiti cyiza.

Inzu ndende cyane yubatswe mu buryo bugezweho, iruhande rw'iyo nzu ndende hari indi nzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, imbere y'izo nzu zombi hahagazeho imodoka. Imbere y'izo modoka hari umuhanda wa kaburimbo mwiza uri kugendwamo n'abantu benshi.

iInzu nziza cyane iteye irangi ryiza, imbere y'iyo nzu hari ibiti birebire byiza, hari n'ibiti by'amashanyarazi bitandukanye.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo harimo umugore uhagaze ku ruhande, ku ruhande rw'uwo muhanda hari imodoka zifite ibara ry'umweru, hariho n'ibyapa bibiri bitandukanye na none ku ruhande hari amatara yaka nijoro.

Umuhanda w'igitaka, hirya y'umuhanda hari inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, yubakishijwe amabati y'umukara, ifite n'igipangu cyiza, imbere hirya yaho gato hari ibiti, imbere nanone gato hari igiti cy'amashanyarazi.

Umuhanda w'ibitaka, urimo abakobwa babiri, bahagaze ahantu mu mutaka, harimo umucuruzi, ucuruza amayinite, imbere gato hari icyapa ndetse n'izindi nzu zitandukanye.

Umuhanda w'igitaka, hirya yawo hari inzu ifite igipangu, hari n'insinga z'amashanyarazi, ku rundi ruhande rwawo hari igiti kirekire, munsi y'icyo giti hari umuntu uhagaze n'abandi bicaye.

Umuhanda w'igitaka, hirya y'uwo muhanda hari umurima w'ibigori, hirya y'aho gato n'ubundi hari inzu, hari n'ibiti bishinze muri uwo murima by'amashanyarazi.

Inzu nziza cyane ifite igipangu cyiza, isakaje amabati agezweho y'umukara, imbere y'iyo nzu hari ibiti bitandukanye ndetse n'indabo nziza.

Ku muhanda wa kaburimbo, urimo imodoka, urimo abamotari n'ibyapa bitandukanye byinshi, n'amatara yaka nijoro, urimo n'ibiti byiza binini ku ruhande.

Umuhanda wa kaburimbo, harimo umukobwa ugenda muri iyo kaburimbo, hari insinga z'amashanyarazi, hari n'icyapa kigaragaza aho imodoka zihagarara, hirya yaho hari ibiti, hari indabo, hari n'inzu yubatse neza.

Ishuri ryiza ryubakishijwe amatafari ahiye, ifite inzugi nziza z'umukara, ifite n'amabati y'umweru. Imbere y'iyo nzu, hari abanyeshuri bahahagaze batatu b'abasore.

Umusarani ni mwiza cyane ufite isuku, urimo irangi ry'umweru n'umukara, harabona neza harimo amatara, ku rugi rw'uwo musarane hariho igishushanyo kiriho umuntu ubana n'ubumuga bwo kutagenda, bivuze ko uwo musarani ukoreshwa n'abantu babana n'ubumuga bwo kutagenda.

Inzu ikorerwamo ubuvuzi, ifite irangi ry'umweru, hejuru y'iyo nzu, hari ibigega bibiri by'umukara, hari n'ibyapa bitandukanye ku mpande y'iyo nzu, bigaragaza icyerekezo umuntu yaba agiyemo.

Inzu nziza yubatse neza, harimo ibirahure byiza cyane, irimo udutebe twiza tugezweho, irimo abantu bicaye ku ntebe bari gukoresha mudasobwa.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cyubakishijwe amakaro, giteye n'amarangi meza, hejuru hari itara ry'umweru, iyo nzu ifite imiryango migari myiza cyane, imbere y'abo bantu hari umugore wambaye imyenda y'umweru ufashe igipapuro, hari n'abandi bantu bahagaze imbere bicaye.

Ubusitani bwiza, burimo igiti cyiza n'indabo zitandukanye, imbere yaho gato, hari inzu yubatse neza, hari n'icyapa kigaragaza inzu bavuriramo.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo mu muhanda harimo akarongo k'umweru n'utundi turongo twubatse ku mpande tw'umweru n'umukara, hari ibyapa byinshi bitandukanye, ariko hirya y'aho hari inzu nziza cyane bigaragara nk'aho ari ibitaro.

Umuhanda wa kaburimbo uririmo imodoka zihagaze zitandukanye, imbere y'izo modoka hari ibyapa bibiri, inyuma yaho hari inzu ifite irangi ry'umuhondo isakaje amabati y'ubururu, inyuma yaho gato hari ibiti birebire hagati muri uwo muhanda harubakiye harimo amabendera abiri.

Abantu bambaye amakanzu maremare y'umukara, buri wese amanika ikiganza ari kurahirira ku idarapo ry'igihugu, imbere yabo hari abantu bicaye bambaye imyenda y'imituku n'ingofero, inyuma yabo nanone y'abo bantu bambaye amakanzu y'umukara, hari abandi bicaye.

Icyumba kiberamo inama muri icyo cyumba hicayemo abantu batatu abagabo babiri n'umukobwa umwe, imbere yabo hari ameza ateretseho icupa ry'amazi ndetse kuri ayo meza hariho udukayi bari kwandikamo.

Umugore w'imibiri yombi wambaye indorerwamo z'amaso, yambaye n'ingofero y'umukara, hagati hari ibara rya beje, yambaye ikanzu y'umutuku isa neza cyane.

Abantu benshi cyane bicaye ahantu mu cyumba, muri abo bantu harimo abasore, abakobwa, abagabo n'abagore, imbere yabo hari ameza y'ikizeru gitwikijeho igitambaro cy'umukara.

Umugabo wirabura, wambaye indorerwamo z'amaso, yambaye ishati y'umweru, karuvate nziza y'umukara n'ikote ryiza ry'umukara n'ikindi gikanzu gitukura.

Igipangu kirimo amazu abiri ari kurebana, hejuru mu irembo ry'iki gipangu hari icyapa kiri hejuru cyanditseho ijambo ngo gereza ya Muhanga n'imibare igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu.

Abantu batatu bambaye ibikanzu birebire abagore babiri n'umugabo umwe, abagore babiri bambaye rinete, abo bantu uko ari batatu bambaye utugofero tugiye turimo uturongo, bicaye ku dutebe twiza tw'umukara, imbere yabo ku meza hari amazi, bari gukoresha indangururamajwi.

Umugabo ukuze wirabura udafite umusatsi, ufite ubwanwa, wambaye ishati y'umweru na karuvati nziza cyane, inyuma yambaye igikanzu cyiza gitukura.

Umujyi mugari urimo abamotari benshi, uwo mujyi hari umuhanda mwiza wa kaburimbo, muri uwo muhanda hahagaze abapolisi bambaye utujire, hari n'umuntu uri kwambuka umuhanda.

Kizimyamyoto nziza ziri ahantu mu nzu, inyuma y'izo kizimyamyoto hari udukarito tuture ture twiza tubiri dupfunduye.

Umuhanda wa kaburimbo uhagazemo imodoka n'umu motari uhetse umugenzi, ku ruhande rw'umuhanda hahagazeho umu Polisi wambaye jule.

Kizimyamwoto ebyiri ziri ahantu heza, imwe ni iy'umweru indi ni iy'umutuku, hejuru yazo hari ibintu bimeze nk'ibigozi by'umutuku.

Icyumba cyicayemo abantu benshi batandukanye, ariko muri icyo cyumba nta rumuri rurimo hari umwijima, umuntu umwe niwe uri kugaragara ni umugore wambaye ishati y'umweru.

Abana benshi cyane bari ahantu mu birori bigaragara ko bishimye bazamuye amaboko, bari kuririmba bafatanyije n'umuntu uri imbere yabo uri kubaririmbira, imbere yabo hari ihema ry'umweru ririho igishushanyo cy'umuntu wambaye ikoti ry'umukara.

Abagabo batatu bambaye amakote meza n'abagore bane bakenyaye imikenyero myiza, bari ahantu hejuru mu cyumba, bafashe ku madarapo bigaragara ko bari kurahira, iruhande rwabo hari umuntu wicaye ku ntebe.

Igipapuro kiriho ifoto y'umugabo, umugabo agaragara igice cyo hejuru gusa, yambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru na karuvati irimo amabara y'umweru n'umukara, uwo mugabo yitwa Mpayimana Philipe.

Umugabo uhagaze wambaye neza, yambaye ikoti ry'ubururu yambaye n'agapira k'umweru yatebeje neza, ari gukoresha indangururamajwi, inyuma ye hari abantu bahicaye bicaye ku dutebe, inyuma yabo na bo hari icyapa cya MTN.

Ikirangantego cy'u Rwanda kiriho akanyoni n'amabara atatu, rimwe ryo hasi ry'icyatsi, n'iryo hagati ry'umuhondo, irindi ryo hejuru ry'umutuku wijimye.

Abagabo bambaye amakote meza, n'abagore bakenyeye imikenyero myiza, barahagaze bari ahantu mu cyumba, bamanitse ibiganza, bari kurahira, buri wese imbere ye hari idarapo ry'igihugu.

Umugabo n'umugore bicaye ku dutebe twiza tw'umukara, bombi bambaye indorerwamo z'amaso, imbere yabo ku meza hari amacupa y'amazi, hari na mudasobwa bari gukoresha ndetse n'indangururamajwi.

Abakobwa batatu bambaye imipira y'umweru basutamye hasi, bari kugenda batondeka ibitabo by'umweru biri ahantu hasi, inyuma yabo hari igitambaro gifite ibara ry'icyatsi kibisi n'umuhondo.

Umugabo n'umugore bicaranye ahantu mu cyumba, bicaye ku dutebe twiza, iruhande rwabo hari amazi ari mu macupa, inyuma yabo hari igishushanyo cyanditseho ngo ubumwe n'ubudaheranwa.

Umugabo wirabura wambaye rinete z'amaso, yambaye ikote ryiza ry'umukara, yambaye ishati nziza na karuvate y'umukara, ari gukoresha indangururamajwi.

Abantu benshi batandukanye nk'abagabo, abagore, abasore n'abakobwa n'abakecuru bafashe ibipapuro biriho ifoto y'umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru.

Umugore mwiza cyane wambaye indorerwamo z’amaso, yicaye ku ntebe y'umukara. Inyuma ye hari idarapo ry’igihugu, imbere ye hari icupa ry’amazi.

Abagore babiri bambaye ibitenge, umwe ahetse umwana, atwikije agashuka k'umweru, afite n'ibipapuro mu ntoki. Inyuma yabo hari ibitambaro bikikije by'umweru.

Umugore wirabura, wambaye indorerwamo z'amaso, yambaye n'akantu mu ijosi, yambaye agakote keza karimo amabara, ry'umukara n'umweru.

Abagabo batatu bahagararanye, inyuma yabo hari umukobwa umwe uhicaye wambaye indorerwamo z'amaso, muri abo bagabo umwe ari gukoresha indangururamajwi, abandi babiri barahagaze, hirya yabo hari undi mugabo uhagaze uri kureba inyuma, hanyuma inyuma yabo hari inzu zishaje.

Ikirangantego cy'u Rwanda kiriho ishusho y'inkoni, kirimo n'amabara atandukanye, twavuga nk'umutuku wijimye, kaki n'icyatsi kibisi.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo, uri kugendamo umumotari, hirya y'uwo muhanda hari igiti gitoshye kinini, inyuma yaho gatoya hari inzu nziza igereratse.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka y'umuhondo irimo imizigo ,hirya y'iyo modoka hari umuntu uri kugenda mu muhanda, nanono hirya gato hari ibiti biteye mu mpande y'uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka, hari imodoka nini itwara abagenzi n'akandi kamodoka gatoya, iruhande rw'uwo muhanda hari inzu igeretse, hari n'igiti gitoshye, hari n'insinga z'amashanyarazi, inyuma y'izo modoka hari akazu k'umutuku kanditsiho Airtel.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo uri kugendamo imodoka y'umweru ihetse imizigo, iruhande rw'iyo modoka hari umugabo wambaye igisarubeti wikoreye umufuka munini cyane, hirya y'uwo muhanda hari ibiti byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo, uhagazemo imodoka nini, itwara peterori, harimo n'umunyegare utwaye umugenzi ndetse n'izindi modoka zisanzwe, zitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo imodoka ifite ibara ry'umweru, ni imodoka iheka imizigo, iruhande rw'uwo muhanda hateyemo ibiti byinshi bitoshye.

Umuhanda wa kaburimbo uriya muhanda hagati hari ahantu bambukira hari utumenyetso dutambitse tugaragaza aho abantu bagomba kwambukira, uruhande rw'uwo muhanda hahagazeho imodoka zitwara abagenzi nini cyane, imbere yaho gato hari inzu zigeretse zifite amarangi y'umuhondo.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo imodoka, ku ruhande rw'uwo muhanda hari inyubako ndende nziza, imbere yaho na none gato, hari igiti cyiza kirekire cy'amashami meza.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, umuhanda urimo abamotari babiri, bafite abagenzi uhagazemo imodoka, hirya y'uyu muhanda hari ishyamba rinini cyane ry'ibiti byiza ndetse uwo muhanda harimo imashini ikora umuhanda.

Moto ihagaze muri kaburimbo nta muntu uyicayeho, iruhande rw'iyo kaburimbo hari inzu nziza ifite amabati y'ubururu mu muryango w'iyo nzu hateretsemo akajerekani n'imbere y'iyo nzu ku rugi hariho intebe, muri uwo muhanda hari abamotari benshi.

Kaburimbo irimo moto, moto nini cyane ihetse imizigo, umuzingo utwikirije igihema kinini cy'ubururu cyanditseho ijambo ngo Pirimusi n'imibare zeru karindwi umunani makumyabiri na gatandatu gatatu gatandatu gatandatu kabiri.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zitandukanye n'abagenzi bari kugenda, imbere yaho gato hari Umujyi munini mugari urimo amatara meza n'ibiti byiza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini y'ubururu, hirya y'iyo modoka hari igiti kirekire imbere yaho hari izindi modoka z'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ihetse imizigo, irimo n'abagabo babiri bari kwambuka umuhanda iruhande rw'u muhanda hari ibiti byiza.

Moto nini cyane itwara imizigo, iri muri kaburimbo, iyo moto hejuru hariho igihema cy'umweru, iruhande rwa kaburimbo hari ibiti birebire byiza bitoshye.

Umuhanda wa kaburimbo, harimo umugabo uri gusunika igare, atwaye imifuka y'umuceri, hirya y'uwo muhanda hari ibiti byiza bitoshye, hirya yaho gato na none hari inzu nziza zubatse.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka eshatu, harimo n'imodoka imwe ikorerwa mu Rwanda iheka imizigo y'ubururu, imbere yaho gato harimo abamotari bahetse abagenzi, ku mpande z'uwo muhanda hari amatara yaka nijoro.

Umuhanda w'amapave urimo umunyonzi usunitse igare ahagararanye n'undi musore, imbere yabo hari imodoka nyinshi zihetse imizigo, ku ruhande rw'uwo muhanda hari ishyamba ry'ibiti, ku ruhande nanono hari ibiti by'amashanyarazi, hari n'amatara.

Umumotari uri muri kaburimbo, utwaye umugenzi, inyuma yaho hari inzu zishaje, hari n'ibiti birebire, inyuma yaho cyane nanone hari ishyamba.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, urimo umumotari udafite umugenzi, hari n'undi mumotari uhagaze iruhande rw'imodoka, kuri uwo mu motari hahagazeho umugabo wambaye ikote ry'ubururu, iruhande rw'uwo muhanda hari inzu ndende cyane, zikorerwamo ubucuruzi.

Kaburimbo irimo imodoka y'umweru itwara imizigo, ihetse imizigo, itwikije ihema ry'ubururu, iziritseho imigozi, ihambije imigozi hejuru, ku ruhande rw'umuhanda hari ibiti byinshi, hirya yaho hari n'ikibuga.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nyinshi zitandukanye, hari imodoka nini zitwara abagenzi n'izindi ntoya na zo zitwara abagenzi. Iruhande rwazo nk'inyuma hari umusozi muremure.

Umuhanda urimo umumotari utwaye umugenzi n'umunyegare utwaye umugenzi n'imodoka nini zitwara ibintu bijyanye n'ubucuruzi, iruhande rwaho hari ibiti byinshi byiza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nziza, imbere yaho gato hari indi modoka irimo, ku ruhande hari amatara meza, yaka nijoro, na none ku ruhande hari indabyo nziza, hari n'ibiti bitoshye.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka nini itwara abagenzi n'abandi bagenzi bari kugenda n'amaguru. Iruhande rw'uwo muhanda, hari ibiti birebire.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo uhagazemo imodoka nyinshi cyane n'abantu benshi, inyuma yaho gato hari amatara yaka nijoro, hari n'ishyamba rinini.

Umuhanda utari kaburimbo, utari n'uw'igitaka, ni uw'amapave uri kugendwamo n'abantu batandukanye, iruhande rw'uwo muhanda hari inzu nziza zigeretse, ziriho ibyapa bitandukanye, iruhande rwawo na none hari ibiti.

Umuhanda w'igitaka ukikijwe n'ibiti n'indi nzu yubakishijwe amatafari ahiye, muri uwo muhanda hari icyapa cyanditsweho ijambo ngo igororero rya Nyamagabe, ku ruhande hejuru hariho ikirangantego cy'u Rwanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abamotari, ku ruhande rw'iburyo hari icyapa kigaragaza aho abantu bambukira, hari inzu imwe ishaje, hariho n'izindi nzu zisa neza.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo icyapa cya mpande eshatu cy'umutuku, iruhande rw'uwo muhanda mo hagati hari amatara yaka nijoro, hirya yaho hari ishyamba rinini cyane.

Icyapa cyo mu muhanda cy'umutuku kigaragaza guhagarara, inyuma y'icyo cyapa hari ishyamba rinini cyane rigari ririmo ibiti byinshi byiza bitandukanye.

Umuhanda mwiza cyane, urimo indabo nziza, urimo n'ibyapa biyobora abagenzi bitandukanye, inyuma yaho hari igiti kibyibushye cyiza.

Icyapa cyo mu muhanda cy'ubururu, gishushanyijeho imodoka, hejuru na ho hari inyuguti ya P, ishatse gusobanura aho imodoka zihagarara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibyapa by'umuhondo, hagati harimo amabara y'umukara, imbere gato hari ikindi cyapa cy'umutuku, ku mpande z'umuhanda hari ibiti birebire, hari n'irindi shyamba ry'ibiti riri hirya yaho.

Umuhanda wa kaburimbo, hirya y'umuhanda hari icyapa cy'umutuku, inyuma y'icyapa cy'umutuku hariho inzu iteye irangi ry'umuhondo itangirwamo serivisi z'Irembo. Imbere yaho gato hari igiti kirekire, imbere yaho na none hari moto zihagaze.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka n'amagare abiri ahetse imizigo na moto ihagaze ku ruhande n'abandi bagenzi, ku ruhande rw'iyo kaburimbo hari amatara, nanone ku ruhande hari icyapa hejuru kiriho imibare mirongo itandatu, ku ruhande nanone hari ishyamba rinini cyane.

Inzu nini cyane ikorerwamo ubucuruzi butandukanye. Iyo nzu iteye irange ry'umweru, ku rukuta rw'iyo nzu hariho amashusho. Ashushanyijeho ibijyanye n'ibyo muri iyo nzu bacuruza inkweto, amashati, amakote n'ibindi.

Inzu yubatswe neza mu buryo bugezweho yubatswe igeretse, hasi y'iyo nzu hari imodoka zihagaze n'abandi bantu bahagaze, hari igishusho hejuru cyanditseho ijambo ngo remera rutayisire.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, urimo imodoka nziza zitandukanye, hari n'abamotari, hari n'inzu nziza ndende cyane zigeretse, ziriho ibyapa bigiye bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo, hirya y'uwo muhanda hari ishyamba ririmo ibiti byinshi bitandukanye by'ubwoko bwose, hari ibirebire, hari ibigufi, hari n'utundi twatsi duto tumera ku mihanda, turi iruhande rw'uwo muhanda.

Inzu igeretse yubatswe mu buryo bugezweho ubwiza, iteye irange ry'umuhondo, iriho n'andi mabara y'umutuku, imbere y'iyo nzu hari imodoka ihagazeho.

Umuhanda w'igitaka uhagazemo imodoka, hirya y'uwo muhanda hari inzu zishaje, imbere y'izo nzu hahagazeho imodoka, inyuma yaho gato hari igiti cyiza kibyibushye.

Inzu nziza cyane yubatse neza mu buryo bwiza, iri mu gipangu cyiza cyubakanye ubuhanga, inyuma yaho hari igiti, iruhande rwaho hari ikindi giti, kuri icyo gipangu ku muryango hari amatara meza agezweho, imbere yayo hari ubusitani bw'ibiti bwiza.

Inzu zigeretse nziza cyane ziri mu mujyi zikorerwamo ubucuruzi, imbere yaho hari ibiti bifite amababi meza biboneye, hari n'ibyapa bigiye bitandukanye.

Inzu nyinshi nziza zitandukanye, ziteye amarangi meza zubatse neza cyane, ziri ahantu mu mujyi, hari umunara muremure w'amabara y'umutuku n'umweru, hari n'ibiti byiza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari utwaye umugenzi, harimo n'imodoka y'umukara, hirya y'uwo muhanda hari ishyamba rinini cyane ririmo ibiti byinshi bitandukanye.

Umuhanda mwiza kaburimbo, uri kugendamo imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga nka moto n'igare, iruhande rw'uwo muhanda hari amatara, harimo n'insinga z'amashanyarazi, imbere yaho gato hari ishyamba.

Umuhanda wa kaburimbo ugeretse, umuhanda wo hasi hari kugendamo moto n'imodoka ukikijwe n'ibiti birebire, ku mpande nanone hari amatara.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo umumotari, urimo n'imodoka imwe nziza y'umukara, hagati muri uwo muhanda harimo ubusitani bw'indabo bumeze neza cyane.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, ku ruhande rw'uwo muhanda hari ubusitani bw'indabo, na none kurundi ruhande hari inzu nziza zigereti zikorerwamo ubucuruzi, hariho n'ibiti birebire byiza, muri uwo muhanda hari amabaray'umweru atambitse ashaka kuvuga ko ari ahantu abantu bambukira.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka eshatu n'indi modoka itwara abagenzi, hirya yaho hari ibiti byiza, harimo muri uwo muhanda harimo abamotari batwaye abagenzi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, urimo umumotari umwe ugenda nta mugenzi, hariho n'icyapa kirimo umweru n'umutuku hirya yaho hari ibiti byiza.

Umuhanda wa kaburimbo uri mo imodoka nini hagati aho bambukira hari umugabo uri kwambuka umuhanda imbere gato hari abamotari bahagaze hirya yaho hari ibiti binini birebire biri ku ruhande.

Umuhanda wa kaburimbo ugeretse hari umuhanda wo hasi n'umuhanda wo hejuru umuhanda wo hasi harimo imodoka n'abandi bamotari bari imbere y'iyo modoka hirya y'umuhanda hari indabo na none hirya hari agasozi karekare.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amatara ku ruhande hari ubusitani bw'indabo, hirya yaho hari ishyamba ry'ibiti, hagati harubatse hubakishije utuzeru turimo amarange y'umweru n'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka na moto, ku mpande hari amatara yaka nijoro, hagati y'uwo muhanda hari ubusitani burimo indabo, buzengurukijwe n'akantu keza k'amabara y'umweru n'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka nziza n'abamotari benshi, ariko harimo imodoka imwe ihetse imizigo nini, iruhande rw'umuhanda hari ibiti ndetse n'ibyapa.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, urimo imodoka zitandukanye na moto nyinshi, ku ruhande rw'uwo muhanda hari utuntu bagiye bubaka turimo irangi ry'umweru n'umukara.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo abamotari babiri bombi bahenzi abagenzi, hagati y'uwo muhanda hari ubusitani bw'indabo, iruhande hari ibiti byinshi bitoshye.